Ahantu hatatse neza mu birango bya kimwe mu bigo bitanga serivisi zijyanye n'itumanaho ndetse no kohererezanya amafaranga, hari abagabo babiri, aho umwe yambaye umwambaro ufite ibara ritukura, akaba ari guhabwa igihembo cya telefone yatsindiye.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro ya kimwe mu bigo bitanga serivisi zigendanye no kohereza ndetse no kwakira amafaranga n'itumanaho. Aba bakaba bari kumwe n'umugabo ufite indangururamajwi aho ari kubagezaho ubutumwa.

Imbere y'inyubako ikorerwamo ubucuruzi ifite amabara y'umweru ndetse n'inzugi zifite ibara ry'ivu, iyi nyubako ikaba itangirwamo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, birimo gutanga indirimbo ndetse n'ibindi.

Utuzu tubiri turimo amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, utu tuzu tukaba dukoreramo abantu batanga serivisi zijyanye n'amafaranga kwaba kuyohereza ndetse no kuyakira.

Umubyeyi w'umugore ari kumwe n'umugabo ushinzwe gutanga serivisi zijyanye n'itumanaho ndetse no kohererezanya amafaranga, uyu akaba ari kumwigisha uburyo yakwikorera ibintu bitandukanye yifashishije telefoni ye ngendanwa atiriwe ava mu rugo.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi burimo ubw'ibinyobwa, ibiribwa ndetse n'amazi, muri iyi nzu kandi dusangamo ibintu birimo nk'imboga n'imbuto, iyi nzu ikaba ifite urugi rumanitseho ibyapa byamamaza, kimwe mu bigo bitanga serivise z'itumanaho.

Hagati y'umurima w'ibigori bikiri bito, harimo inzira iri kunyurwamo n'abantu bikoreye ibihingwa byabo, nanone kandi harimo umugabo ushoreye igare n'umugore uri kumusunikira.

Abagabo bambaye imyambaro yiyubashye, baje ahantu hateguwe neza, hari ubwatsi butoshye ndetse hatatse amabara atandukanye. Ibi ni mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ndetse inagerekeranyije, ifite amadirishya atanu ndetse n'urugero runini, hari ababyeyi b'abagore bari kwerekeza muri iyo nzu ndetse bakaba bakoreramo koperative.

Ahantu hubatswe mu buryo buteye amabengeza hari amabara menshi cyane, aha hakaba hakorerwa ibintu bitandukanye birimo serivisi zijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa birimo imitobe, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Mu mikebe ikozwe mu byuma, ifite amabara meza arimo umutuku ndetse n'umukara, harimo ikinyobwa gisembuye, iki kinyobwa kikaba kigurishirizwa ahantu hatangirwa serivisi zigendanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, birimo n'udukoresho duhuha umuyaga mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, imbere yazo kandi hari akazu gakozwe mu mabati, gakoreramo umuntu utanga serivisi zigendanye no kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Umuti ufunze neza mu mukebe ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, uyu muti ukaba usigwa ku nkweto tuwusanga cyanecyane ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye nko mu masoko ndetse no mu mabutike.

Mu cyumba kinini gifite amabara meza harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kunywa bifunze neza mu macupa, amavuta yo kwisiga na yo afunze mu macupa y'amabara atandukanye ndetse n'imifuka irimo ibyo kurya birimo nk'umuceri ndetse n'akawunga.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku, uyu ari ahantu mu cyumba kirimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa ibisembuye ndetse n'ibidasembuye akaba ari kubicuruza.

Imifuka minini yujujwemo umusaruro ukomoka ku buhinzi, uyu musaruro ukaba ujyanwa ku masoko hifashishijwe ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka maze ukagezwa ku bacuruzi, na bo bakawugeza ku baguzi bo hasi.

Inyubako nini cyane, yubakishije amatafari ndetse ifite amadirishya manini, iteguye imbere yayo, ikaba irimo intebe ndetse n'abantu benshi, aho baba baje gusenga, maze bagakurikira umupadiri uri imbere yabo abagezaho ijambo ry'imana.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi z'icyatsi kibisi ndetse ifite n'urukarabiro imbere yayo, iyo nyubako ikaba iserwamo n'abantu ndetse ikaba ifite n'indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Mu cyumba kinini cyane cyubakishije amatafari ndetse gifite amabara arimo umweru ndetse n'ubururu, kirimo intebe nyinshi, muri iki cyumba haberamo ibintu bitandukanye birimo nk'inama.

Imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, igerekeranyije ndetse ifite amabara atandukanye, itangirwamo serivisi zijyanye n'amacumbi ibyoku kurya ndetse n'ibyokunywa, hari ibinyabiziga by'imodoka byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Amarembo magari anyurwamo n'abantu ndetse n'imodoka. Akaba yerekeza ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'amacumbi. Hakaba kandi nanone hari icyapa kinini kerekana ko umuntu yageze aho hantu. Hari kandi n'ibiti binini by'inganzamarumbo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara y'umweru n'umukara, yubatswe mu buryo bugerekeranije, iyo nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'amacumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Mu cyumba kiza cyane gifite amabara ndetse n'imitako byinshi, harimo intebe ndetse n'ururabo. Iki cyumba kikaba ari kimwe mu bigize inyubako nini itangirwamo serivisi zijyanye n'amacumbi, aho abantu baza bakishyura maze bakarara muri ibyo byumba.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho igerekeranyije ndetse ifite amabara y'umuhondo, imbere y'iyi nyubako hakaba hari ubwatsi butoshye bwicarwamo n'abantu baje kuri iyo nzu, iyi kandi ikaba ikorerwamo ibintu birimo serivisi zijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Mu cyumba cyiza cyane gifite amabara y'umweru, harimo uburiri bushashe neza bufite amashuka y'umweru, n'imisego y'umweru, bukaba buri mu cyumba kigize inyubako itangirwamo serivisi ijyanye n'amacumbi.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ndetse igerekeranyije, iyi ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye birimo nk'inama, ubukwe ndetse ikaba inatanga serivise zijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'amacumbi.

Inzu nziza cyane ifite amabara arimo umweru ndetse muri iyo nzu hakaba harimo intebe n'ameza agezweho. Ibi bikaba byifashishwa mu gutanga serivisi zirimo izijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'amacumbi.

Mu isoko rusange harimo ibicuruzwa bitandukanye biri ku dutanda dukozwe mu mbaho, ibi bicuruzwa birimo nk'amavuta yo kwisiga ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gukora amasuku nanone kandi hari n'umuti wifashishwa mu koza amenyo no kurwanya indwara zo mu kanwa.

Mu isoko rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye byaba imyenda y'abagabo ndetse n'abagore, harimo umusaza wambaye ingofero. Uyu musaza akaba ari kumwe n'umugabo uri kumugurisha inkweto zikoze mu ruhu.

Isoko rusange ricururizwamo ibintu bitandukanye, birimo nk'ibikapu, imyenda yaba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, rikaba ririmo n'ipikipiki yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Ahantu mu isoko rya rusange, harimo ibintu byinshi bitandukanye, bigurishwa n'abacuruzi. Ibi birimo ibikoresho byo mu rugo, birimo nk'utuyunguruzo, utuntu two kubikamo amafaranga ndetse n'imyuko yifashishwa mu guteka.

Ahantu heza cyane hahabugenewe, hateguye ndetse hari intebe ndetse n'ameza bikozwe mu buryo bugezweho, hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye zirimo izijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Ameza akozwe mu buryo bugezweho ndetse n'intebe bifite amabara y'umukara n'umweru, biteguyeho ibiribwa bitandukanye biteguye neza, ibi bikaba birimo amagi ndetse n'ibindi, bikaba bitangirwa mu nyubako itangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'ibyokurya.

Mu muhanda mwiza wa kaburimbo ufite amabara y'umukara, harimo umunyeshuri wambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ikigina. Uyu atwaye ikinyabiziga cy'igare ndetse ahetseho umubyeyi w'umugore.

Imbere y'inyubako zikorerwamo ibijyanye no gucuruza ibinyobwa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari abagabo bari ku mapikipiki aba bakaba bambaye imyambaro ibaranga ndetse bambaye n'ingofero zibarinda mu gihe k'impanuka.

Mu masaha y'umugoroba izuba riri kurenga, imbere y'inyubako zikorerwamo ubucuruzi, hari umuhanda urimo amapikipiki abiri, yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Aya mapikipiki akaba atwawe n'abagabo bakora umwuga w'ubumotari.

Mu muhanda wa kaburimbo utaruzura neza harimo umugabo ndetse n'umugore, aba bombi bakaba bari kukinyabiziga cy'igare ryifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'imizigo, hari kandi n'inzu zituwemo n'abantu ndetse n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Imbere y'inyubako zikorerwamo ubucuruzi, hari umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite amabara y'umweru ndetse n'umukara, muri uyu muhanda dusangamo ikinyabiziga cy'ipikipiki, cyicaweho n'abagabo bambaye ingofero zirinda mu gihe cy'impanuka.

Inyubako za kaminuza zigirwamo n'abanyeshuri ndetse n'icyapa kerekana aho izo nyubako ziherereye, imbere y'azo kandi hakaba hari umuhanda ugezweho wa kaburimbo. Muri uwo muhanda harimo ikinyabiziga k'ipikipiki gitwaye abagabo babiri.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi isize amarangi y'umweru ndetse ifite inzugi zifite ibara ry'ivu. Imbere yayo kandi hari ikinyabiziga k'ipikipiki kicaweho n'umugabo na we wambaye ingofero imurinda mu gihe k'impanuka, uyu akaba akora akazi k'ubumotari.